Umucuruzi ucuruza ibijyanye n'ibyo kunywa, uko bigaragara ko abafite udu sitageri turiho ibinyobwa bigiye bitandukanye byo kunywa by'abantu bashobora kuba baza bakagura bakanywa akaba ari umucuruzi wabigize umwuga.

Ifunguro ryateguwe rigaragara ko hariho ifi ,hariho ifi, hariho n'ibitunguru, bigaragara ko ari ifunguro ryateguriwe muri bare cyangwa muri resitora runaka, bikaba biriho ibyo kurya ndetse n'inyanya n'amasalade.

Inzu yo gucururizamo ibyo kunywa, kuko bigaragara akaba ari ahantu ho gucururiza ibijyanye n'ibinyobwa, hakaba hari udutebe, hano imbere two kuri kontwari, abantu bashobora kuba bakwicara bakaba banywa, cyangwa bakajya kwicara ahabugenewe ho kunywera, akaba ari bare cyangwa inzu yo gucururizamo ibinyobwa.

Iduka cyangwa bare bacururizamo ibyo kunywa cyangwa ahantu bacururiza inzoga, hakaba hagaragazwa n'ibinyobwa bigiye bitandukanye, biri mu dutajeri ibinyobwa birimo amacupa manini ahenze cyane akaba ari ahantu ubona ko hacyeye ,kandi hari gucururizwa inzoga.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu, imodoka ikoreshwa mu gutwara ibintu ,mu gutwara ibintu n'abantu, ariko ikaba ari imodo ikunze gutwara cyane cyane imizigo , kureba ko ifite imyanya itatu gusaba. Ikaba ino foto igaragaza imihanda, ndetse n'amazu y'ubucuruzi ku ruhande rwayo.

Akadobo cyangwa akantu kifashishwa bacuruzamo ibiraha ndetse n'amacapati n'amakeke, kaba kagaragara ko ari utuntu dukorwa tw'ibiraha no kugira ngo aba.. turibwa n'abantu dukorwa muri resitora cyane cyane.

Inzu z'ubucuruzi by'umwihariko ari inzu bacururizamo botike cyangwa ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye, akaba ari ahantu wasanga ibikoresho by'ibanze wakenera mu rugo. Kuko hari ku muhanda ahantu heza bigaragara ko ahantu hari gutera imbere cyane.

Imodoka itwara amavuta ikorana n'uruganda rukora ibijanye n'amavuta. Uko bigaragara hariho icyapa cy'umuntu ufite amavuta, akaba ari n'ubwoko bw'amavuta ari mu icupa. Amavuta yo kwisiga.

Inzu y'ubucuruzi cyangwa aho bacuruza ibicuruzwa umuntu yabona hafi, harimo imyunyu ndetse n'ibindi, amavuta ndetse n'amasabune. Uko bigaragara akaba ari ahantu mu giturage, ahantu bacururiza ibintu by'ibanze umuntu ashobora gukenera mu buzima, harimo n'ibyo kurya muri rusange.

Amazu y'ubucuruzi agaragaza ariho ibyapa bigiye bitandukanye, imbere yaho bacuruzaho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye , uko bigaragara akaba ari ahantu bacururiza ibintu runaka, umuntu ashobora gukenera mu buzima bwa bwa buri munsi, hakaba hari aho bacururiza.

inzu z'ubucuruzi harimo n'aho warira cyangwa aho usanga hari ibyo kurya bitetse hazwi ku izina rya resitora, aho umuntu ashobora gusanga ibyo kurya mu gihe yaba ashonje, ariko hakaba hariho n'aho bacuruza ibikoresho bitandukanye bizwi nka butike cyane cyane mu cyaro, akaba ari ahantu hakenewe wakura ibikoresho by'ibanze wakenera.

Ubucuruzi bw'ibicuruzwa n'ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo amabase, indobo, ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane umuntu akenera mu rugo, utugare tw'abana, ndetse n'ibikombe n'ibindi bintu byinshi bicuruzwa byo gukoresha mu rugo.

Inzu z'ubucuruzi nk'uko bigaragara akaba ari ahantu bacururiza ibikoresho runaka byo mu rugo, cyangwa ibindi abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi amakaye ndetse n'amakaramu, ndetse n'ibindi uko bigaragarako ari ahantu bacururiza ibintu bigiye bitandukanye.

Amazu y'ubucuruzi ,hagaragara ko ari ahantu hacururizwa akaba ari ku muhanda, hagaragara ko ari ahantu hari gutera imbere, nk'uko bigaragara ko amazu yaho asa neza, amwe yubakishije amakoro, Andi ateye irangi , hagaragara ko ari ahantu heza hari gutera imbere.

Inzu z'ubucuruzi nk'uko bigaragara akaba ari ahantu hacuruza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, kuko hari cyapa kiriho agakombe kari kuvamo umwotsi, bigaragara ko ari nk'ahantu hari Resitora ahantu wabona icyo kurya mu gihe ubishaka, ndetse n'icyo kunywa akaba ari ku muhanda.

Inzu yo gucururizamo ibijyaniranye n'imiti, cyane cyane imiti ikoreshwa mu buhinzi, ibyo bakwita imiti bakoresha mu buhinzi, cyangwa amafumbire runaka, byica udukoko ndetse n'ibindi bikoreshwa mu buhinzi.

Icyapa kigaragaza ahantu bacururiza, cyangwa haboneka imiti ijyaniranye n'ubuvuzi bw'amatungo, cyangwa wahasanga imiti ijyaniranye n'iby'ibihingwa cyangwa amafumbire muri rusange, akoreshwa mu buhinzi no mu bworozi.

Icyapa cyamamaza ubwoko bw'inzoga. Uko bigaragara ahantu hacuruza izi nzoga z'ubwoko bwa sikolo gatanu, uruganda rukora inzoga , uko bigaragara akaba ari ahantu bazicuruza.

Icyapa kiriho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kuko bigaragara ko hariho ibintu bijyaniranye n'ibya eregitoronike, cyangwa ibintu bijyaniranye n'iby'ikoranabuhanga, hakaba hariho ibintu bijyaniranye n'ibyo gukoresha mu rugo, hakaba hari butike cyangwa aho wasanga ibintu byo gukoresha mu rugo binyuranye, n'iby'ikoranabuhanga.

Inzu y'ubucuruzi, igaragazwa n'uko iriho icyapa kiriho ibintu byinshi bacuruza. Muri iyi nzu yabo harimo ibikoresho bya elegitoronike, hakabamo n'ibintu byo gukoresha mu rugo mu buzima bwa buri munsi; uko bigaragara hakaba ari ahantu wabona buri kintu kimwe cyose wakenera mu rugo.

Ahantu, inzu zo bacururizamo. uko bigaragara akaba imbere yaho hariho amapave, cyangwa hariho ikibuga kinini cyane. Hakaba hariho umuryango munini cyane washobora gucamo n'imodoka. Uko bigaragara akaba ari ahantu ho imodoka zishobora kuba zakwinjirira, akaba ari amazu y'ubucuruzi ndetse n'ibindi.

Abacuruzi bacuruza ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane mu isoko ku masoko mato, kuko bigaragarako bacururiza bamwe mu mitaka abandi ku meza, bagacururiza hanze bigaragarako nta soko rinini cyangwa rigari bafite ryo gucururizamo ibicuruzwa byabo ,bakaba bacururiza ku muhanda no ku mabaraza.

Inzu z'ubucuruzi kuko bigaragara, akaba ari inzu icururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, kuko ari inzu isa neza cyane, nkuko bigaragara akaba ari ahantu ho mu mujyi cyane, hacururizwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, uko bigaragara ko ari mu mujyi munini.

Inzu z'ubucuruzi zigiye zitandukanye, zigaragaza y'uko ari ahantu harimo imiryango myinshi bacururizamo, nkuko bigaragara akaba ari ahantu hateye imbere cyangwa harimo abantu bafite amafaranga, kubera ko amazu yaho asa neza.

Ahantu bacururiza inzoga, cyangwa ibyo kunywa muri rusange, ahantu abantu bajya kunywa inzoga ni mugoroba, cyangwa ikindi gihe cyose bashaka kunywa, nk'uko icyapa kibigaragaza, akaba ari ahantu hari akabari, cyangwa urunywero rw'inzoga, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Icyapa kiranga ahantu hari amazu y'abashyitsi yogucumbikamo, bigaragara ko hariho n'igitanda kigaragaza ko abantu bashobora kuharuhukira cyangwa bakaharyama , mugihe bari m'urugendo cyangwawajye gusura ahantu runaka.

inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye. Nk'uko bigaragara hakaba hariho icyapa, ndetse mo imbere hakaba harimo imifuka y'amakawunga cyangwa ibindi bicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye. Hakaba hariho abantu hanze baje kugura, cyangwa bicaye aho bicaye aho ngaho.

Inzu y'ubucuruzi igaragaza ko hariho ibicuruzwa, hanze hatondetse imifuka y'ibicuruzwa, akaba arimo ibikarito by'ama biswi. Bigaragara ko ari ahantu hacururizwa ibicuruzwa byinshi cyane bigiye bitandukanye.

Iduka ry'ubucuruzi ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hari ibishushanyo by'imyenda z'abana ndetse n'kweto, ricuruza imyenda itandukanye, harimo imyenda yiganjemo imyenda, cyane cyane iz'abana zo kwambara, ndetse n'ibikoresho by'abana, amakuvurori n'ibindi.

Icyapa ndetse n'akasanduku kagaragaza ibijyananye na Virunga cyangwa Kampani itwara abagenzi, akaba ari ahantu rero aho usanga ibintu bigiye bitandukanye, ko bigaragara ko ari ahantu ku muhanda, hashinze icyapa, hariho n'aka kantu.

Icyapa kigaragaza ahantu hakorera ibintu by'imiziki, cyangwa ibintu byo gufotora, ndetse n'izindi serivisi nk'uko bigaragara ko bafotora bagakora ibintu bigiye bitandukanye, n'amavidewo ,n'ibindi bintu bya eletoronike, n'ibijyanye no kwamamaza ibintu bijyanye n'iby'imiziki bigaragaza ko ari ibyo bakora hano.

Inyubako z'inzu zimeze nk'ibigo by'amashuri, cyangwa akaba ari inzu z'ubucuruzi, bigaragara ko ari ahantu ho mu mujyi, ahantu hasa neza cyane, akaba ari inyubako ziteye amarangi, bigaragara ko ari inyubako zateguwe neza, zikikijwe n'ibiti by'imikindo, akaba ari ahantu h'icyitegererezo, cyangwa ahantu hakorerwa imirimo ikomeye cyane.

Icyapa, icyapa cy'ikigo kigaragaza ikigo cyangwa kampani, ikora ibintu bijyaniranye n'iby'ikoranabuhanga ariko rijyaniranye n'ibya siporo, ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye cyane nkuko bigaragara ku cyapa cyabo. Harimo ibintu byinshi biboneka i Musanze, nk'uko ku cyapa kibigaragaza hafi ya Nyakinama ayipiyarasi.

Inzu z'ubucuruzi ziriho n'abantu bakora ibintu bijyaniranye no gucuruza. Uko bigaragara akaba ari ahantu umuntu ashobora kujya agacumbika. akaba ari ahantu wakwita hoteli cyangwa inzu wakwaikiramo abashitsi bakaba baraharara mu gihe bari gukorera aho ngaho n'abafite urugendo runaka ari ahantu wabona amacumbi yo kubamo.

Inzu cyangwa isoko ry'ibiribwakwa, harimo ameza agiye atandukanye ariho ibiribwa bigiye bitandukanye, akaba ariho abantu bacururiza cyaawa bahahira ibiribwa harimo imbuto ndetse n'imboga n'ibindi...

Isoko ry'ibiribwa ricuruzwamo ibicuruzwa bitandukanye bigaragara, harimo inyanya, imboga, imboga z'ibyatsi, ndetse harimo abacuruzi, ibitunguru, kandi isoko ry'ibiribwa ririmo ibiribwa by'ibinyamboga bigiye bitandukanye.

Umufuka uriho ibikoresho bakoresha mu gupima，bikaba bigaragara nk'aho ari ubunyobwa cyangwa ifu bagurisha，akaba harimo agakoroboyi cyangwa nk'akantu ka saradine， ako bakoresha bari gupima ubunyobwa, bikaba ari ahantu ho mu isoko， cyangwa amaduka bacururizamo.

Inzu yo gucururizamo, igaragara ko ari inyubako bacuruzamo ibintu bigiye bitandukanye. Akaba ari inzu bigaragara ko harimo ibyapa bigiye bitandukanye bicuruza ibikoresho bya elegitoronike, ko tubona icyapa cya tekino cyangwa icyapa cya infinigisi bigaragara ko ari ahantu hari ubucuruzi buteye imbere.

Igikoresho cyo guteka kizwi ku izina ry'imbabura, kandi imbabura ikaba ikozwe mu ibumba, hakaba hari ahantu bigaragara ko ari aho bazikorera cyane, bagakora n'ibindi bikoresho bya kinyarwanda kuko bigaragara ko ari ibintu by'ibicurano bigiye bitandukanye, kikaba ari igikoresho cyo gutekaho gikoresha amakara.

Ahantu bacururiza ibikoresho ibintu by'ibiribwa ariko bigaragaramo amavuta, amafu y'ibikoma ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, akaba ari isoko ryo bacururizamo ibintu byinshi cyane bigiye butandukanye ariko bijyaniranye n'ibyo kurya.

Imyenda ndetse n'ibindi, n'inkweto n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, biri mu isoko nk'uko bigaragara ko bari ahantu bacururiza ibikoresho bigiye bitandukanye, hari ibijyaniranye n'imyambaro kuko bigaragara ko hariho imyenda igiye itandukanye cyane.

Isantere y'ubucuruzi, ahantu hari amazu, ubwo bacuruzamo cyane cyane, nk'uko bigaragara akaba ari ahantu ho mu isoko hari n'abacuruzi bacuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hari n'urujya n'uruza rw'abantu bagiye guhaha, n'abagiye kugurisha.

Ahantu bacuruza inkweto zakoze. Uko bigaragara akaba ari inkweto z'ubwoko bugiye butandukanye zashyizwe ahantu ho kuzicururiza aba ari inkweto ziba zarakoze, bakazongera kuzicuruza ahandi hantu tuzi nka caguwa cyangwa gucuruza ibintu byakoreshejwe.

Isoko ry'ibiribwa ririmo ibiribwa bigiye bitandukanye . Harimo isombe ndetse n'ibindi bintu hakabamo abantu baje kugura . Baje kugura ari benshi cyane ,akaba isoko risakaye . Uko bigaragara ,akaba ari isoko rizamo ibijyaniranye n'ibinyamboga n'ibindi biribwa basarura mu murima muri rusange.

Umucuruziuri ucuruza ibicuruzwa runaka, akaba ari mu isoko. Uko bigaragara hakaba harimo ibicuruzwa byinshi no mu mifuka harimo amafu hakamo imbuto z'ubwoko butandukanye bw'ibihingwa bacuruza bakajya kugurisha.

Imashini nini cyane ziriho, zigaragara nk'aho ari imashini ziri gucuruzwa mu isoko runaka. Akaba ari isoko ukocuruza ibikoresho bya elegitoroniki, cyangwa ibikoresho bikoresha amashanyarazi.

Ikigo cy'amashuri ,uyu mujyi munini ugaragazwa nk'ahantu hari ibikorwa by'iterambere runaka kuko bigaragara ko hariho abantu bari gutwara abantu ndetse n'ibintu, hakaba ari harimo n'amamodoka menshi ndetse n'abagenzi benshi mu mujyi.

Isoko ry'ibiribwa, iyo abantu bari mu isoko haba hari abantu bacuruza ibintu bijyaniranye n'ibiribwa byinshi bitandukanye, akaba mu isoko haba harimo abantu baje guhaha ndetse n'abaje gucuruza ibintu bigiye bitandukanye, amasombe, inyanya ndetse n'ibindi bintu by'ibinyemboga.